Ahantu hazwi nk'akabari hatangirwa ubufasha ku bijyanye n'ibiribwa, ibinyobwa, ndetse kandi banatanga ibyerekeranye n'amacumbi ku bantu baba bashaka kuharara. Hagaragara abakobwa batanga izi serivisi zihatangirwaga.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho hagurishirizwamo imyambaro, amasafuriya n'ibindi bikoresho byinshi cyane byifashishwa mu rugo, imodoka na moto zitwara abantu, ziri kubavana mu duce tumwe ziri kubajyana mu tundi duce.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyananye no gucuruza ibikoresho byifashishwa mu bintu bijyanye n'ubwubatsi. Aho hagaragaramo impombo, ibyuma, amakoti yambarwa n'abatekinisiye ndetse n'ibindi byinshi cyane byifashishwa mu mirimo yerekeranye no kubaka amazu imihanda ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho hacururizwamo ibikoresho bikoreshwa hateka bizwi nka gaze, ndetse n'ibindi byose by'ibiribwa biribwa mu ngo, mu buzima bwa buri munsi.

Ibiraha bimwe mu biribwa biryoha cyane, aho bikorwa hifashishijwe ifarini, ibirayi, ndetse n'amavuta. Babitekera mu gikoresho cyitwa ipanu, bashiraho amavuta maze bakabitekeramo.

Urutonde rw'inzu zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho hagurishirizwamo amarangi yifashishwa mu bijyanye n'ubwubatsi. Si ibyo gusa kandi, hanatangirwa ubufasha ku bijyanye n'itumanaho. Ikindi kandi hanatangirwa ubufasha ku bijyanye n'ibiribwa.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyananye no kugurisha ibikoresho byifashishwa mu bintu by'ikoranabuhanga. Nk'amaradiyo ama ekuteri, ndetse n'ibindi byinshi cyane bigezweho.

Inzu y'iduka bacuruzamo ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'amavuta yo kwisiga, imitobe yo kunywa, ndetse n'inzoga zo kunywa, by'umwihariko hagaragara n'amakaramu akoreshwa n'abantu bandika ndetse n'uburoso bwoza mu kanwa.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bigiye bitandukanye ,by' umwihariko ibikoreshwa mu buzima bwa buri munsi mu rugo, haragaragara nk' imbabura, amabase ibikapu ndetse n' amasafuriya byose bikaba bikoreshwa mu bikorwa bijyanye no gutegura amafunguro yo kuribwa mu rugo.

Ahantu bacururiza ibicuruzwa bijyananye n'amazi yo kunywa, aho hari ibicupa byinshi cyane birimo amazi bagurisha abakiriya kugirango bayanywe mu ngo zabo, kandi aya mazi afite umumaro ukomeye cyane kuko aba asukuye bihagije ndetse nta n'udukoko tuba turimo.

Inzu bateye amarangi y'umweru, zikorerwamo ibikorwa bijyanye no gucuruza ibiribwa, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'abantu, by'umwihariko hagaragara nk'ikinyabiziga cyizwi nk'igare, cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Inzu ikoreshwa mu bikorwa bijyanye no gucuruza ibikoresho byifashishwa mu bintu byerekeranye na muzika, nk'amabafule, ingoma, imigozi, migiseri zifashishwa mu kuvanga amajwi, n'ibindi byinshi cyane.

Urutonde rw'inzu zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, amapoto ndetse n'amatsinga atwara umuriro w'amashanyarazi, byose bifasha mu bijyanye no gukwirakwiza iterambere mu bice by'icyaro.

Ibisheke kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro cyane cyane mu gishanga, ibi byifashishwa mu nganda zikora amasukari, cyane cyane yifashishwa mu gukora imigati n'izindi poroduwi zikozwe harimo: isukari.

Inzu bagurishirizamo ibikoresho byifashishwa n'ibinyabiziga, nk'amapine ndetse n'ibindi byifashishwa mu gusimbuza ibikoresho by'ibinyabiziga biba byashaje. Amapine afite umumaro ukomeye cyane, kuko iyo amaze gusaza bayakoramo inkweto zizwi nka rugabire.

Inzu y'ubucuruzi yifashishwa n'abantu bacuruza ibikoresho bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko mu rugo. Nk'intebe, imifuka, n'ibikapu ndetse n'imisego, byose hamwe bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi by'abaturarwanda.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi by'umwihariko aha ngahaho ntabwo batanga duke duke, kuko bigaragarako aha ngahaho baranguza ibintu bigiye bitandukanye, bifunze mu makarito nk'ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ahantu bacururiza ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bijyanye no kubaka, nk'ingorofani, impombo, ferabeto, ndetse n'ibindi byifashishwa mu bijyanye n'ibyo.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa byerekeranye no kugurisha ndetse no kugura ibintu bigiye bitandukanye, iruhande ku nkingi zayo haragaragara abantu b'abasore babiri bahegamiye, bigaragara ko baje gushaka ibicuruzwa kuri izi nzu bacururizamo.

Iduka rigurishirizwamo ibikoresho byifashishwa mu bintu bijyanye na tekinoroji ndetse nikoranabuhanga, nk'amaterefone, amacagi, amakompiyuta, radiyo imashini, n'ibindi byinshi cyane byose byifashishwa mu itumanaho.

Ahantu bacururiza ibikoresho bijyanye na muzika nk'amaradiyo, ikindi kandi banahacururiza amagare y'abana. Aya magare agira umumaro ukomeye cyane mu kuzamura impano z'abana batoya, baba bashaka kugira ngo bazakine umukino wo gusiganwa ku magare.

Ahantu bagurishiriza ibintu bigiye bitandukanye, bifite n'imimaro itandukanye. Inzoga zinyobwa n'abantu, ndetse kandi haragaragara n'amakaramu yifashishwa n'abantu biga, aho bayandikisha, uburoso bukoreshwa bari koza amenyo, haragaragara n'itara ritanga urumuri aha hantu bacururiza ibintu byose byavuzwe haruguru.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, by'umwihariko aho bagurishirizamo gazi zifashishwa mu guteka, amavuta bateka, amagi barya, ndetse n'inzoga na zo banywa. Si ibyo gusa kandi haragaragara n'ikinyabiziga kizwi nk'igare ari cyo cyifashishwa mu gutwara...

Inzu z'ubucuruzi zikorewamo ibikorwa byerekeranye no kugurisha ibintu bigiye bitandukanye. By'umwihariko harangurizwagamo inzoga zipfundikiye, nk'amasikoro, primus ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Inyubako ikorerwamo ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, izi nyubako ni ingirakamaro cyane mu duce tugiye dutandukanya, kuko zifasha abaturage batuyemo utwo duce kubona ibiribwa n'ibindi mu buryo butabagoye cyane.

Umuronko ugizwe n' inzu zikorerwamo ibikorwa bijyanye n' ubucuruzi, aho bagurishirizamo ibintu byifashishwa mu rugo, mu buzima bwa buri munsi. Haparitse amamoto yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n' ibintu, aho zibavana mu duce tugiye gutandukanye.

Inzu zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, ariko kandi imbere yaho haragaragara umutaka, uri mu mabara y'imihondo, aho hakorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'amayinite, ndetse hanatangirwamo na serivisi zigiye zitandukanye zitangwa n'ibigo by'itumanaho mu rwanda.

Inzu zikorerwagamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho hagurishirizwamo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibindi bintu bijyanye no kurya. Hagaragara umwana uri guca imbere y'ayo mazu, bigaragara ko ari umunyeshuri ugiye kwiga.

Inyubako ikorerwamo ibintu bijyanye n'ubucuruzi, aho bagurishiriza ibiribwa nk'umuceri, ibirayi ndetse n'ibindi, si byo gusa kandi habamo n'ibikoresho bikoreshwa mu rugo by'isuku nk'isabune, amavuta yo kwisiga ndetse ni bindi byinshi cyane.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gucuruza, aho bagurishirizamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibiribwa, ibikoresho bikoreshwa murugo ndetse n'ibikoreshwa mu bwubatsi n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, hagaragara umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'imodoka n'ibindi binyabiziga ndetse n'abantu.

Umurongo ugizwe n'amazu akorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa ,ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu rugo, umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, insinga n'amapoto bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Urutonde rw'inyubako zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho hacuruzwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye, hagaragara kandi ko hatangirwa ubufasha ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse no gutunganya imisatsi ndetse n'inzara.

Ahantu bacururiza ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi. By'umwihariko ibiri mu mboga n'imbuto. Haragaragaramo imineke, amaronji n'ibindi byinshi cyane. Ibi bigira umumaro ukomeye cyane ku buzima, kuko bitanga intungamubiri zikenewe n'umubiri.

Inzu zifashishwa mu bikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho hagurishirizwamo ibicanwa bizwi nka gazi, zifite umumaro ukomeye cyane mu kubungabunga ibidukikije, ikindi kandi hanagurishirizwa ibindi biribwa biribwa mu ngo.

Iduka rigurishirizwamo ibintu bigiye bitandukanye aho bagurishirizamo amasafuriya, ibikombe, imikoropesho, ndetse n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu rugo, hagaragara kandi ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibindi byinshi cyane nk'ibinyobwa ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Inyubako rusange ikoreshwa nk'isoko. By'umwihariko rigurishirizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ari byo by'ibiribwa. Haragaragaramo ibizwi nka wotameloni, cyangwa se ibihaza bya kizungu. Ndetse kandi hagaragaramo n'ibindi biribwa byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu zikoremo ibikorwa bijyanye no kugura no kugurisha ibintu bitandukanye, haragaragara kandi akazu gakorerwamo ibijyanye no kugurisha serivisi z'itumanaho.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye ,no kugura ndetse no kugurisha ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibicuruzwa byifashisha mu rugo, nk'ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gucuruza, aho hacururizwamo ibintu byerekeranye n'ibiribwa bikoreshwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi, nk'imyunyu, ibishyimbo, umuceri, ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa bijyananye no kugura ndetse no kugurisha ibintu bigiye bitandukanye aho hagurishirizwamo ibikoresho, imyambaro yambawe, amavuta yo kwiyisiga, imiti y' ubuvuzi, ibikoresho bikoreshwa mu rugo ndetse n' ibindi...

Amazu akorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye, aho hacururizwamo amarangi ndetse n'ibindi byifashishwa mu bijyanye n'ubwubatsi, haragaragara intebe n'ameza, byose byifashishwa babyicaraho ndetse banaterekaho ibintu.

Amazu y'ubucuruzi acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibiribwa, amasabune, amavuta, ibicanwa ndetse n'ibindi. Haragaragara kandi igikoresho kizwi nk'umunzani, gikoreshwa bari gupima ibintu n'uburemere bwa byo.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyananye no kugurisha ibinyobwa. Si ibyo gusa kandi hanatangirwamo ubufasha ku bintu bijyananye n'amacumbi. Iyo ubishaka uraza ugakodesha ukaba waharara igihe runaka.

Inyubako rusange ikorerwamo n'ikigo cya Leta kijyanye n'amaserivisi yo kubitsa ndetse no kugurizanya, kizwi ku izina rya banki mu ndimi mpuzamahanga. Ahangaha abantu bahabitsa amafaranga yabo ikindi kandi banahakura inguzanyo zo gukoresha mu bikorwa bibateza imbere.

Inyubako rusange zikorerwamo ibikorwa byerekeranye no kwidagadura. Aho hatangirwamo ubufasha mu bijyanye n'ibinyobwa, amafunguro, amacumbi ndetse n'ibindi. Haragaragara kandi n'ubwogero rusange, aho abakerarugendo n'abandi bantu bogera mu bikorwa byerekeranye no kwishimisha.

Ahantu hatangirwa ubufasha ku bijyanye no guhabwa ibinyobwa, ndetse n'ibiribwa, ndetse hanatangirwa ibintu bijyanye n'amacumbi, ndetse n'ubundi bufasha butandukanye.

Inyubako rusange zikorerwamo, ibikorwa bijyanye no gutanga, ubufasha ku byerekeranye n'amafunguro, ibinyobwa ndetse n'amacumbi, cyane cyana abakerarugendo, bahararaga igihe bari mu bikorwa byo gusura, ibice by'igihugu bigiye bitandukanye.

Icyumba cyakira abantu mu buryo bwa rusange, aho abashyitsi bagenda bakahakodesha, maze bakaharara ijoro rimwe cyangwa se amajoro menshi. Bakishyura amafaranga runaka, cyangwa ariko bikorwa n'abakerarugendo baba baturutse mu bihugu by'amahanga.

Ahantu hagurishiriza ibikoresho byifashishwa mu bintu bijyanye n'amasoko harimo amavuta yo kwisiga, amasabune yo gukaraba ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Isoko rusange rigurishirizwamo umusaruro bikomoka ku buhinzi, by'umwihariko imboga n'imbuto, haragaragara inyanya ndetse n'abadamu cyangwa se abagore babicuruza. Haragaragaramo abantu benshi cyane babigurisha, ndetse n'abaje kubigura.

Inzu bacururizamo ibintu bijyanye n'ibiribwa nk'imigati, amagi, inyanya ndetse n'ibinyobwa nk'amafanta, ji, n'ibindi byinshi cyane.

Isoko rusange rigurishirizwamo umusaruro bikomoka ku buhinzi nk'ibihaza, ibijumba, imyumbati, ibishyimbo ndetse n'ibindi; haragaragaramo abantu benshi cyane harimo ababicuruza ndetse n'abaje kubigura kugira ngo babijyane mu miryango yabo ifunguro ryo kurya buri munsi.

Isoko rusange ricururizwamo ibintu nk'ibiribwa by'umwihariko ibijyanye n'imboga n'imbuto, haragaragara ikiribwa cy'imbuto kizwi nka avoka abenshi batazirira umuburanyi, gifite umumaro ukomeye cyane mu mubiri w'umuntu.

Isoko rusange ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko biragaragara ko hacururizwamo ibijyanye n'imyambaro, ikindi kandi hagaragara ipoto n'amatsinga atwara umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kugura ndetse no kugurisha ibikoresho byifashishwa mu bintu byerekeranye n'itumanaho. Harimo nka ekuteri, ibiposheti bya telefone, amaradiyo ndetse n'ibindi byinshi cyane byifashishwa muri tekinoloji.

Ahantu bigaragara nk'aho ari isoko rusange, hagurishirizwamo ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, hagaragara intoryi n'izindi mboga nyinshi zigiye zitandukanye nk'inyanya, hagaragaramo abantu baje kubigura ndetse n'abandi babicuruza.

Inzu bagurishirizamo ibintu bijyanye n'ubwiza, nk'amavuta, imibavu bitera ituma abantu bahumura neza, ibikoresho bikoreshwa mu guca inzara ndetse n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'ubwiza.

Isoko rusange rigurishirizwamo umusaruro wibibikomoka ku buhinzi nk'ibirayi, ibijumba, amateke, ibihaza ndetse n'ibindi byinshi cyane, ibi byose bifasha imibereho myiza ya muntu, ndetse binatanga ubukungu ku babicuruza ndetse n'ababihinga.

Isoko rusange ricururizwamo ibintu bijyananye n'umusaruro ukomoka ku buhinzi aho hagurishirizwamo ibijumba, ibishyimbo, imyumbati, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ama moto ndetse n'amagare ari kunyura imbere y'iryo soko atwara abantu ndetse n'ibintu.

Isoko rusange bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, by' umwihariko hagaragara ko hacururizwamo imyambaro, imbere yaho haragaragara umuntu uri kureba ku mashini idoda izwi" icarahani".

Isoko rusange ricururizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, aho harimo amaronji, ibihaza, inanasi ndetse n'ibindi byinshi cyane rikaba rifite umumaro ukomeye cyane ku mibereho myiza y'abaturage, ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Shantu bagurishiriza umusaruro gikomokaga ku buhinzi by'umwihariko ibitoki, aho bifite umumaro munini cyane, babikugamo inzoga zizwi nk'urwagwa.

Ahantu bagurishiriza ibikoresho bikoreshwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi, nki'bikapu amasafuriya, amabase, amasahani, ibikombe ndetse n'ibindi byinshi cyane byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'abantu.

Ahantu bagurishiriza umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. By'umwihariko ibyerekeranye n'imboga, hagaragara imboga zizwi ku bwoko bw'isombe. Izi mboga ni nziza cyane, kuko zongera amaraso mu mubiri, kandi zikanongerera umugore uri konsa amashereka.

Isoko bacururizamo ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, ndetse n'ubworozi aho twavuga: amagi, ibishyimbo, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hagaragara abantu babicuruza n'abandi baje kugura ibi ibintu bikomoka ku buhinzi, ndetse n'ubworozi.

Isoko rigurishirizwamo ibijyanye n'imyambaro, amakoti, amapantaro ndetse n'ibindi byinshi, hagaragaramo abantu haje mu isoko kuguriramo ibikoresho.

Ahantu rusange hakorerwa ibikorwa bijyanye no kugura ndetse no kuhagurishiriza umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, by'umwihariko ibirayi, ibigori ndetse n'ibindi, aho hahurira abantu babicuruza ndetse n'ababa bashaka kubigura.

Inyubako rusange zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibyerekeranye n' ubucuruzi. Hagaragara kandi igisate bakoreramo ibikorwa bijyanye no gutera imyambaro ipasi.

Isoko rusange ricururizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi nk'ibihaza, ibijumba, imboga, n'imbuto zigiye zitandukanye aho bigurishwa n'abantu bakabigurisha abandi bagamije kubirya nka amafunguro yo mu rugo.

Inyubako bita isoko rusange, bagurishirizamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ,by'umwihariko ibiribwa harimo intoryi n'izindi mboga muri rusange ,hagaragaramo n'abantu bigaragara ko baje kugura.

Isoko rigurishirizwaho umusaruro w'ibintu bikomoka ku buhinzi nk'imbuto ndetse n'imboga, iri rifite umumaro ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko havamo imisoro itangwa n'abacuruzi, ikindi kandi ifite uruhare rukomeye cyane mu kurinda inzara mu baturage.

Isoko rusange rigurishirizwaho umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi nk'ibitoki, imboga n'imbuto z'amoko yose, aho abaguzi baza kuhashakira ibyo kurya mu miryango ya bo, ndetse n'abacuruzi bakahagurishiriza ibyo baba baranguye.

Isoko rya rusange bagurishirizamo ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko:amafu y'ubwoko bwose, imiceri, amavuta ndetse n'inyanya, byose bikoreshwa mu rugo nk'ibiribwa. aya masoko agira umumaro mwinshi cyane kuko atanga umusoro ku gihugu cyacu, ukaba ufite uruhare runini mu iterambere.

Isoko rusange rigurishirizwamo umusaruro ibikomokaga ku buhinzi nk'ibijumba, amateke, ibihaza, ibishyimbo, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Iri soko rifite umumaro ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko batangiramo imisoro yubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo.

Isoko rusange rigurishirizwamo ibintu bijyanye n'imyambaro, hagaragara abantu bacuruza muri iri soko, ndetse n'abantu bigaragara ko baje kugura iyi myambaro iri gucururizwa aha hantu, iki gikorwa cy'ubucuruzi gifite umumaro ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Ahantu bagurishiriza ibikoresho bikorwa n'abantu bacura. Aho hariho: amapata, indiga, ndetse n'ibindi byinshi cyane byifashishwa mu ngo, by'umwihariko bikorwa mu nganda gakondo n'abantu bacura.

Inyubako rusange ikorerwagamo ibikorwa bijyanye n' ubucuruzi aho bagurishiriza ibintu bigiye bitandukanye, nk' ibikoresho bikoreshwa mu rugo, ibiribwa ndetse n' ibindi byinshi cyane hagaragara n' ibigega kandi byifashishwa mu kubika amazi aturuka ku mvura.

Ahantu bagurishiriza ibikoresho byifashishwa nk'ibikoresho by'itumanaho, aho harimo amacagi yifashishwa mu gushyira umuriro mu materefoni, ama ekuteri, ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa mu ikoranabuhanga.

Aha bahagurishiriza ibiribwa by'umwihariko indagara, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hagaragara kandi umuntu uri ku igare. Bigaragara ko abatwaza imizigo ari kuyivana ahantu hamwe, arikuyijyana mu tundi duce dutandukanye.